Uburezi budaheza ni bwiza cyane kuko bwemera buri mwana wese kujya kwiga butitaye aho aturuka. Kandi akiga ku buntu nta mafaranga bimusabye akaba yabona ubumenyi nk'abandi.

Mu Rwanda amashuri yisumbuye yamaze kuba menshi, aho buri munyeshuri wese aba yemerewe kwiga, kandi akiga ku buntu, agahabwa ubumenyi nk'ubw'abandi bose bahabwa hatitawe ku gitsina, ndetse hatitawe n'umuryango aturukamo.

Hari amashuri menshi yigisha ubumenyingiro harimo ubukanishi, harimo kubaza, harimo kudoda, harimo guteka, harimo gushushanya ndetse n'izindi mpano zigiye zitandukanye.

Mu bigo by'amashuri, buri kigo cy'amashuri mu gihugu kiba gifite isomero rusange aho abanyeshuri bagenda igihe bifuza kwiyungura ubumenyi, bagafata ibitabo bagasoma, bakiyungura ubumenyi, bikabafasha kwiga neza no kumenya amasomo yabo bitabagoye cyane.

Amashuri yisumbuye mu Rwanda akomeje kuba menshi, mu mashuri yisumbuye harimo ayigenga, hakamo n'aya leta, ariko amashuri menshi akaba ari aya leta akaba ari nayo arimo abanyeshuri benshi, kuko buri wese aba ashobora kuba yayiga nta kiguzi bimusabye.